Iyi ni isosiyete y'ikigo cy'itumanaho ikorera hano mu Rwanda izwi nka Airtel, aho ivuga ngo ingoboka tuyitangira ku gihe, ingoboka y'amafaranga wishyuye, hariho umugabo uhetse umwana bigaragara ko yishimye kuko bamwongereye.

Aha baragira bati Radiyanti turi kumwe, turi kumwe mu rugendo rwawe, tuguha ubwishingizi bw'ubuzima kanda akayenyeri magana tanu mirongo itatu na rimwe urwego maze utuvugishe, iki ni ikigo cy'ubwishingizi bita Radiyandi, baragira bati turi kumwe mu rugendo.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo uri mu mujyi, harimo imodoka nyinshi cyane zisa neza ndetse hari n'ibyapa bishushanyijeho abantu, bigaragaza ngo gira urugendo rwiza ubuzima bwiza ndetse n'itsinda ry'ubwishingizi.

Umugabo mwiza cyane uhagaze muzu rwagati, yambaye isurubeti irimo amabara y'ubururu umukara ndetse ifite udushumi twa orange, aha rero ni mu kigo cy'ubwishingizi cyitwa buritamu.

Imyenda myiza cyane imanitse mu iduka, ni iduka risa nkaho ryijimye ritarimo urumuri ariko ririmo imyenda myiza, harimo amashati meza cyane, agiye amanitse ndetse n'andi arambitse hasi, ibi bigaragaza yuko ufite gahunda yo kugura ishati nziza cyane wagurira hano.

Iduka rinini cyane kandi ricuruza inkweto zigiye zitandukanye, aha harimo inkweto z'amoko yose haba iz'umukara, umweru, umuhondo ndetse n'umutuku, nawe ufite gahunda yo kugura inkweto wahanyarukira ugahitamo izikubereye.

Iduka ryiza cyane ricuruza imyenda y'abantu b'abakire, ibi bigaragazwa n'uko hari abazungu baje kuhagurira, harimo umuzungu w'umusaza wambaye ikote ry'umukara, ipantaro y'umweru ndetse n'inkweto z'umutuku, aha rero harimo uwamaze guhitamo, akaba ari kwereka umugore ucuruzamo, bari kuvugana ibiciro.

Iduka ryiza cyane ricuruza imyambaro y'abamama, ku mpande hariho inkuta nziza cyane ziri mubara y'umweru n'umukara bisa nkaho ari ibintu bahisemo kugira ngo bijye bikurura abakiriya, harimo imyenda myiza yaba mama, nawe ubaye ufite umumama waza ukamugurira, kuko ni myiza cyane.

Iri ni iduka ricuruza imyambaro ndetse n'inkweto. Turi kubonamo inkweto nyinshi cyane z'amoko menshi agiye atandukanye, tukabonamo ikintu bamamarizaho imyenda bambitse ijipo ndetse n'agasengeri. Aha rero, wahagera nawe ukigurira.

Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Iri ni iduka ricuruza amashakoshi y'abamama, hakaba harimo isakoshi nziza cyane ifite imishumi mito. Ahangaha nk'uko bigaragara nawe ushaka ishakoshi wabagana, maze bakaguhera ku giciro kiza ukigurira udahenzwe.

Iri ni iduka ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho wakwifashisha. Turi kubonamo umucuruzi uteze agatambaro, tukabona n'umuguzi waje kugura, bari kuganira. Harimo umuceri, harimo asante, amajyani, amubase ndetse n'ikaziye.

Iri ni iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye, harimo amapantaro, amashati, imipira ndetse n'ibindi, aha rero nawe uri umusore ushaka ipantaro nziza wabagana, maze ukigurira.

Iyi ni imodoka igurishwa; iyi modoka ikaba yitwa meresedesi benzi, iragurishwa kandi ikagurishwa kuri miliyoni makumyabiri n'eshatu zonyine, bivuze ngo ni amafaranga make nawe ukeneye imodoka nziza waza ukayigurira.

Abagabo babiri ndetse n'umudamu umwe, umugabo umwe yambaye marinete ndetse n'umudamu yambaye marinete, bose bambaye amakote, umugore nawe yambaye ikanzu nziza y'umukara, icyapa cyamamaza imodoka nziza cyane, aho ubaye ufite amafaranga waza ukigurira.

Aha hari inyubako nziza cyane irimo imodoka zigiye zitandukanye zo mu bwoko bwa yundayi. Izi modoka ni nshyashya nkuko bigaragara, zikaba zigifunze ,ubaye ushaka kugura imodoka wabagana maze bakagufasha kuyibona.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa yundayi iragaragara neza cyane, iri mu mabara meza cyane y'umukara, ifite ibinyoteri by'umweru ndetse ikaba ifite pulake itwikiriye bigaragara yuko ikiri nshyashya kandi igurishwa.

Abasore batatu bameze neza bigaragara ko ari abakozi kandi bakorana umurava, bahagaze hagati y'imodoka ebyiri ziri mu bwoko bwa fuso ndetse bari kugerageza kwerekana icyapa cyanditseho Akagera motozi, inyuma yabo hari ihema ndetse inyuma y'iryo hema hari n'umunara w'icyuma.

Aba ni abantu babiri bafite icyapa bigaragaza ko basinyanye amasezerano, aha ngaha ni abantu bari imbere y'imodoka bigaragara ko iyi modoka ari iyo baguze, ariko ikaba itarakoreshwa kuko purake yayo iracyapfutse.

Aha hari abantu bane, harimo abagabo batatu ndetse n'umukobwa umwe, aba bafite icyapa cyanditseho Akagera motors bahagaze imbere y'imodoka nziza cyane, bigaragara ko bari kwamamariza kampani ya Akagera motors.

Icyapa cy'abantu bari kwamamaza kampani yitwa Nisani, ni abazungu batatu ndetse n'umunyafurika umwe, bahagaze imbere y'imodoka bagaragaza ibirango byayo, bari kubyeyereka abantu bose ndetse iyi modoka iparitse imbere y'inyubako, birikugara yuko babyishimiye, bari kurebana bafite udukapu mu ntoki, tugiye tugaragaza ibi birango byabo, bari kubikundisha abantu kugirango babyishimire.

Imodoka nziza cyane kandi shyashya, nkuko bigaragara ziragurishwa, izi modoka rero nawe wifitiye amafaranga, ukaba ufite gahunda cyangwa se ukaba uzi mugenzi wawe ukeneye imodoka nziza, wamubwira akabagana maze akigurira.

Imodoka nziza cyane iri mu mabara y'ubururu n'umweru ndetse n'umukara, ifite amapine meza cyane ndetse iyi modoka iracyari nshyashya, yo mu bwoko bwa toyota ariko n'imodoka nziza cyane nk'uko bigaragara ukeneye imodoka nziza waza ukayigura.

Amafaranga inoti y'ijana y'Amanyarwanda, iyi noti ni iya kera cyane, iyi noti yarakoreshejwe mu Rwanda iriho umubyeyi uhetse umwana ndetse bamwe baragiraga bati ''ni Nyiraneza ahetse Rubaduka.''

Ibiganza bibiri ndetse n'inote nyinshi nk'uko bigaragara nyiri ibyo biganza ntari kugaragara neza, ariko amafaranga yo ari kugaragara. Ni amafaranga menshi cyane y'inote za bitanu ndetse n'iza bibiri, aha rero bikaba bigaragara ko ari mu kigo cy'imari.

Iyi ni banki y'abanyakenya izwi ku izina rya kesibi cyangwa se kenya kamasho bank iyi banki ikorera mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri afurika ndetse na hano mu Rwanda irahari kandi itanga serivisi zinoze aho niba ushaka serivisi zinoze bagane bagufashe.

Amafaranga inoti y'igihumbi y'Amanyarwanda iriho igi rigaragara neza hariho inkende isa nk'iri kurira mu mashami, hariho imibare rimwe zeru zeru zeru igaragara neza kandi irakeye.

Aha ni muri banki ubwo harimo umukozi waho ari kwakirana urugwiro umu mama uje amugana, umu mama uje amugana yambaye agatambaro k'umutuku karimo utubara tw'umweru ndetse bigaragara ko yamweretse serivisi batanga kuko imbere ye hari agapapuro ariku bisomaho ubundi agaseka.

Ni isambusa zirambitse ku isahani ya pulasitike. Ni isambusa eshanu ndetse imwe bayikimbuye kugira ngo bagaragaze ibirimo imbere, ikozwe n'inyama ndetse harimo ubutunguru, seleri, izi zikaba ziteretse ku yindi meza imeze neza cyane.

Aha ni mu ikaragiro ry'amata aho hagaragaramo imashini zagenewe gutunganya amata, hakagaragaramo ameza, harimo indobo, harimo amakaro. Iyo urebye ku nkuta hariho irange ry'ubururu, urukuta rwiza cyane rusa n'ubururu ndetse aha hantu ni heza pe.

Ni nzu nini cyane icururizwamo amata, aha bacuruza amata yo mu dukarito ariyo Inyange ndetse n'amazi ya Nile, hateretsemo indobo ebyiri imwe irubitse indi irubuye irimo amandazi mo imbere.

Ni aga kiyotike keza cyane, karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ubucuruzi bw'amaji, aho bacuruza ji z'amoko agiye atandukanye, nk'urugero harimo inaji, agatwisite ndetse n'izindi, si ibyo gusa kukohubatse neza mu buryo bugezweho.

Ni mu ikaragiro ry'amata azwi nk'inyange, aha ngaha hari ikimashini kinini cyane cyanditseho mrikizone, hakaba umumama mwiza cyane wagitezaho akabido uri gukuramo amata, aya mata rero yujuje ubuziranenge.

Ikiganza gifashe itansi y'amata, ni amata meza cyane bigaragara ko arimo intungamubiri, itasi nziza y'umweru, imbere ye hateretse irindazi ry'igice ndetse na kake bigaragara ko ari gufatisha aya mata kandi yaryohewe.

Izi n'isambuka ziri ku isahani zigera muri eshanu ndetse imwe muri zo bayiciyemo kabiri, maze bagaragaza ibiri imbere, bigaragara ko zigizwe n'inyama, sereri ndetse n'ibitunguru, izi rero waza ukigurira ukarya ukaryoherwa.

Iyi ni inzu icururizwamo amata y'inyange. Aha rero hakaba hariho igishushanyo cy'inka ku muryango. Si ibyo gusa, kuko hateretse n'akameza kariho indobo ebyiri: imwe irimo keke, indi irimo amandazi.

Aha ni mu gakiyosike aho bacururizamo amandazi, hari agatete gateretseho ipaki imwe y'amandazi ndetse gateretse hejuru ku kayetajeri mu gakiyosiki, aka gakiyoke kameze neza kuko gakoze mu byuma, kakaba kariho udutambaro turi mu mubara y'umweru n'ubururu.

Aha ni mukaragiro ry'amata, turahabona akajerikani k'umweru ka litiro eshanu karimo amata kuzuye gapfundikiye, amata ni meza ni ingirakamaro, ni ingenzi ku buzima bw'umuntu nawe ngwino wigurire maze wongere vitamine mu mubiri.

Aha hari Kugaragara neza ko ari mu ikusanyirizo y'umukamo uturuka kunka mu karere ka nyanza. Uru ni uruganda rutunganya amata ya nyanza, bigaragara yuko bari kugaragaza uburyo babikora bifashishije ikoranabuhanga. Kuko hagiye harimo utwuma dutandukanye twesitaye. Harimo uburyo bayatunganya babigaragaza, bakagaragaza n'ibikoresho bifashisha.

Ahandi mukaragiro ry'amata, harimo umukobwa umeze nk'aje kugura amata ndetse harimo n'undi muntu w'umugabo utagaragara neza bigaragara ko ariwe uyatuje, harimo ijage bifashisha bayapima ndetse harimo n'icyansi ateretsemo hakaba hagaragara neza kuko harimo amakaro.

Aha hari ikiganza gifite telefoni mu ntoki, kikaba kiri kwereka abantu uko ushobora kwiyishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho bakwereka ko ufata telefone yawe mu ntoki ukayatsa maze ugakanda imibare, akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura ukoresheje amadorari. Aho ubanza ukayahinduza, akagera mu gihugu ushaka kugeramo, warangiza ukaba wayafata ukayishyura ukoresheje ubu buryo, ugakurikiza amategeko ndetse n'amabwiriza.

Telefone nziza yo mu bwoko bwa eyateli iri kwaka muri taburo. Ndetse bakagaragaza imibare igiye itandukanye aho ureba ayo ufite kuri baransi, ukareba uko wagura amayinite ndetse bakakwereka na apurikasiyo ushobora gukoresha kugirango ubikore bitakugoye.

Aha hari ifoto iri kugaragara nk'umusore ndetse n'inkumi, umusore ari kohereza inkumi amafaranga, iyi nkumi irishimye cyane biragaragara ko inezejwe no kwakira amafaranga, aya mafaranga yakiriye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga kohereza amafaranga nkoresheje iyakure.

Aha ni aho bita kuri wesiteni yuniyoni, ubwo bavunja amafaranga ukaba wajyana amafaranga mu gihugu kimwe bakaguha mu kindi bitewe n'icyo wifuza. Aha rero nawe ukeneye iyi serivisi waza bakagufasha kohereza amafaranga cyangwa kuyabona mu buryo bukroheye.

Aha bari kugaragaza uko ivunjisha riba rimeze bari kugaragaza amafaranga y'amadolari y' abanyamerika, ingano yayo uyavungishije mu manyarwanda aho bagira bati ''amadorari ibihumbi icumi, ni miliyoni icumi z'amanyarwanda.''

Ubu ni uburyo bwiza cyane bwo kwishyura ukoresheje Eyateli Peyi. Nk'uko bigaragara ku cyapa cy'umutuku, kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, aho bagira bati kanda akanyenyeri kane gatatu gatandatu urwego maze wishyure mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Aha hari ifoto iri kugaragaza uburyo bwo kwakira ndetse no kohereza amafaranga mu mahanga. Hari kugaragara umuntu wageze ku cyicaro cy'aho babitsa n'aho babikuriza, ameze nk'uri kubitsa cyangwa uri kohereza bigaragara yuko hari uwicayemo imbere uri kumuha iyi serivisi kandi nawe bigaragara ko yanyuzwe nayo.

Nkuko bigaragara iki ni igishushanyo kigaragaza uko ivunjishwa rihagaze ku isoko. Hari kugaragara igiciro cy'idolari rimwe ndetse n'ayo bashobora kuguha mu gihe urizanye.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Aha hari umuntu ufite amadorari. Amadorari agiye atandukanye. Zose ni inoti ni nyinshi cyane. Arazibara agasubiramo ni nyinshi. Ari kuzirambika hasi akongera akaziterura akareba. Ni nyinshi cyane rwose, biragaragara y'uko iki kigo cyateye imbere ndetse n'uyu muntu ari umukire.

Aha hari ibiganza bifite amafaranga menshi mu ntoki, amafaranga agiye afungishijwe akagozi kabugenewe bita fimbo ndetse bigaragara ko ari menshi kandi akaba ari abanyamahanga, nk'uko bigaragara ni amadorari.

Ibiganza birimo amafaranga agiye atandukanye. Amafaranga y'inote nk'izo afite ni nziza cyane n'inshyashya ziri kugaragaza ko ari iza mirongo itanu. Hakaba hashushanyijeho umuntu. Ndetse hari n'izindi zigiye ziriri m'utubogisi zigiye zipanze hari iz'ijana ndetse n'izindi zitandukanye.

Ni akamashini keza cyane kari mu ibara ry'umweru hakaba hariho n'ibara ry'umukara ariko hakaba hari imibare aka kamashini kifashishwa mu buryo bwo kubara amafaranga byoroheje aho uterekamo inote ugahita ureba umubare wazo.

Ibi ni ibiceri byiza cyane bimeze nk'ibikoze muri zahabu, ibi biceri bikaba ari amadolari, hano mu Rwanda dutanga serivisi zo kuvunjisha, aho ujyana amafaranga y'amanyamahanga bakaguha amanyarwanda.

Aha ngaha bari kugira gutya, bakagurana amafaranga. Aho ujyana amanyamahanga bakaguha ayo wifuza, bitewe n'igihugu urimo. Aha rero harimo abagabo, uwambaye ishati y'umweru n'uwambaye iy'umukara, bose bafite amafaranga mu ntoki ndetse n'ayandi abarambitse imbere.

Aha hari ibiganza biri kugurana amafaranga aho umwe ari gutanga amadorari y'amanyamerika undi agatanga amafaranga y'amanyakenya, umwe ari imbere y'undi bari kugurana bahererekanyije bigaragara yuko ntawe uhenze undi kuko binyuze mu mucyo.

Ku mihanda migari aho umuntu yambukira haba hari uturongo tw'umweru dutambitse. Umugenzi iyo agiye kwambuka arabanza akareba neza ko nta kinyabiziga kiri hafi kiri kwambukiranya umuhanda bityo akambuka. Ikinyabiziga nacyo iyo kigeze kuri iyi mirongo kigabanya umuvuduko ndetse kikanahagarara rimwe na rimwe.

Ni ibiganza bibiri bifashe amafaranga mu ntoki agiye atandukanye. Nkuko atandukanye ni ayo mu bihugu bigiye bitandukanye. Harimo amanyakenya, harimo amanyarwanda, harimo amadolari, ndetse harimo n'andi mafaranga yo mu bindi bihugu. Ni inoti zigiye zitandukanye, zifite n'amabara atandukanye.

Amafaranga meza cyane, y'amanyamerika. Aya mafaranga ni menshi cyane, inote zigiye zitandukanye. Ni inote y'ijana, iriho umugabo rwose bigaragara ko ameze neza, afite imisatsi myinshi, ndetse iyi note ni nziza.

Aha ni ahabera ubucuruzi bugiye butandukanye hari icyapa kigaragaza Wesitani yuniyoni, iki ni ikigo kivunja amafaranga bakayakura mu manyamahanga bakayashyira mu gihugu wifuza rero aha baragufasha.

Ahatangirwa serivise z'imari, aho uza bakagufasha kuba wakohereza amafaranga cyangwa se wayahabwa, bitewe n'ko ubyifuza. Aha rero batanga serivise, ukaba wazana amafaranga y'amanyamahanga, bakaguha amanyarwanda.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Akana ni agakiyosike gatangirwamo serivisi z'ivunjisha ry'amafaranga, aho turi kubonamo umugabo uri gutanga amafaranga ndetse agahita yakira ayandi aturutsemo imbere nk'uko bigaragara rero nta kabuza ni uko aguranishije.

Aha hari amakiyosike agiye atandukanye, aho batanga serivisi zo guhinduranya amafaranga, ubwo ushobora kujyana amafaranga ari mu banyamahanga bakaguha ay'amanyarwanda ndetse kandi bashobora kugufasha kohereza amafaranga cyangwa se wowe ukayakira aturutse mu mahanga.

Iyi ni inzu itangirwamo serivisi zijyanye no guhindura amafaranga, aho ujyana amafaranga y'amanyamahanga bakaguha amafaranga y'igihugu wifuza, aha rero ni inyubako nziza cyane bigaragara neza ko ikora ibi bintu kuko hari n'icyapa kibigaragaza.

Inzu nziza cyane ikeye kandi ibengerana isize amarangi agiye atandukanye, mu imbere hateretsemo ameza maremare kandi meza akozwe mu mbahoho zikeye, ndetse n'intebe nziza cyane zikoze mu mbaho. Izi ntebe bigaragara ko ari nziza cyane kandi zakozwe n'abantu.

Aha ni mu ikaragiro ry'amata aho hagaragaramo imashini zagenewe gutunganya amata, hakagaragaramo ameza, harimo indobo, harimo amakaro. Iyo urebye ku nkuta hariho irange ry'ubururu, urukuta rwiza cyane rusa n'ubururu ndetse aha hantu ni heza pe.

Aha ni ahantu hari ibikoresho bigiye bitandukanye byo mu rugo, hari intebe nziza cyane, hari matera nziza cyane ndetse hari n'amezi, rero ukeneye kugura ibi bikoresho wahagera bakaguhera ku giciro cyiza.

Intebe nziza cyane ziri mu nzu, izi ntebe ziba imisego myiza cyane miremire ndetse bigaragara yuko ari intebe wakwicaramo mukaruhuka, ibi rero birareba abantu mukora mukananirwa kuko iza ari intebe zabafasha kuruhuka. Muhagere mwigurire.

Iyi ni hoteli nziza cyane ifite inyubako ziyizengurutse, irazengurutse kandi irageretse, irimo uturangi twiza cyane, kuko irabengerana, imbere yaho hari indabo zitagira uko zisa, hakaba utuzu two hanze twiza cyane, abakiriya bashobora kwiyakiriramo.

Mu muhanda hari abantu benshi bari guturuka mu mpande zitandukanye. Hari umuhanda w'abanyamaguru hejuru hari na kaburimbo iri kunyuramo moto hagati aho abantu ba bari kunyura cyangwa ku mpande z'uwo muhanda abanyamaguru bari kunyuramo hari inyubako ku ruhande rw'iburyo no kuhande rw'ibumoso hino hari ipoto.

Hoteli nziza cyane, muri iyo hoteli hari ubwogero burimo amazi meza cyane afite ibara ryiza hakaba hateye indabyo nziza cyane, turahabona intebe ziri imbere y'ameza ndetse n'umutaka, aha rero wahatembera nawe ukanezerwa.

Aha hari inyubako nziza cyane nini, iyi inyubako ni nziza biragaragarako isize amarange agiye atandukanye, hejuru yayo hari ikirere cyiza cyane, iri kugaragara neza iratatse cyane bigaragarako yubashtswe n'abantu bafite amafaranga kandi iranejeje.

Iyi ni hoteli nziza cyane ifite amazu meza cyane yubatse y'amagorofa, ifite ubwogero ndetse iruhande rw'ubwo bwogero hari imitaka yakirirwamo abakiriya igiye itandukanye, hateyemo indabo zigiye zitandukanye z'imikindo.

Iyi ni hoteli nziza cyane igereretse inshuro nyinshi cyane yenda gukora ku bicu, imbere yayo hari indabyo nziza cyane ndetse hari n'ibiti birebire, hejuru ikirere ni cyiza cyane kuko kiri gusa umweru n'ubururu.

Ahantu heza cyane ndetse bigaragara ko bari muri hoteri, harimo ibintu byinshi cyane byiza bigiye bitandukanye, hari inzu nziza yubakishije amakaro ndetse ikaba imeze neza cyane, harimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, harimo amaji, harimo amata y'inyange, hari mo inanasi zo kurya ndetse n'imineke.

Inyubako nziza cyane za hoteli, iyi hoteli ni nziza cyane nkuko bigaragara, ifite inyubako nziza kandi ndende, haparitsemo imodoka. Iyi hoteli hejuru yayo hari ikirere cyiza cyane, gifite ibicu biri mu mabara y'umweru n'ubururu.

Inyubako nziza igiye ifite amabara agiye atandukanye, isize amarangi atandukanye yaba ay'umuhondo, umutuku ndetse na oranje, imbere yayo hari indabyo nziza cyane bigaragara yuko zagenewe gukurura abakerarugendo kuko bigaragara ko hari hoteli.

Iyi ni inzu nziza cyane kandi ikaba itangirwamo serivisi z'ubwishingizi, harimo intebe ebyiri z'umukara, ndetse hakabamo n'utuntu dushushanyije tugaragaza ubwishingizi batanga, umugabo n'umugore ndetse n'umwana bishimye, iyi kampani bakaba bayita Britam.

Iyi ni ishusho iri kugaragaza uburyo ushobora gukoresha ikarita yawe ya simati ukaba wayikoresha mu buryo butandukanye. Uyu nguyu ni umugabo wayihawe ndetse hari umukobwa uri kumusobanura neza uko ikoreshwa akabimwereka hifashishijwe uburyo bwa telekomande.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Inyubako nziza cyane isize amarangi y'umuhondo harimo utubara tw'umutuku. Hejuru hari amagambo yanditseho mu ibara ry'umweru agira ati ''Sonarwa'' iyi ikaba ari kompani y'ubwishingizi aho bagana bakakwishingira bakazakugoboka.

Aha ni ahatangirwa serivisi z'ubwishingizi, ubwo hagaragara abantu batatu, bombi bambaye imipira y'umweru iriho amagambo yandikishije ubururu ndetse n'amapantaro y'umukara. Abakobwa babiri bafite amashakoshi. Baragira bati: zigamira ejo hazaza uyu munsi.

Iki ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera hano mu Rwanda, aho ushobora kubagana bakagufasha, batanga serivisi zigiye zitandukanye, haba kuzigamira abantu maze bakaba bakugoboka igihe uhuye n'impanuka, iki kigo cy'ubwishingizi rero bacyita Purayimu inshuwarensi.

Ikigo cy'ubwishingizi gikorera hano mu Rwanda kizwi nka radiyanti, kirashishikariza abantu kubagana maze bakabaha serivise zigiye zitandukanye aho, bagira bati zigamira ahazaza uyu munsi maze ejo hazababe heza kurusha uyu munsi.

Iyi ni banki y'ubwizigame, aho umukiriya abagana bakamufasha kwizigamira, kuguza, kubitsa, ndetse no kubikuza. Iyi rero ikaba yitwa kopedu, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, iri ni ishami rya Kabuga.

Umusore mwiza cyane uri kumwe n'umukobwa nawe mwiza, bombi bambaye neza cyane, umusore yambaye ikote ndetse yambaye n'ishati nziza cyane y'umweru mo imbere, naho umukobwa yambaye ikanzu nziza cyane igera ku maguru ndetse n'amaherena.

Abantu benshi cyane kandi bigaragara ko bamaze gusobanukirwa serivisi zijyanye no kwiguriza, bari muri banke yitwa Ekwiti baje gusaba inguzanyo. Bigaragara ko ari abapapa basobanutse ndetse bigaragara y'uko inguzanyo bari kuyihabwa nta mpungenge.

Ahangaha batanga inguzanyo ukaba wakwigurira imodoka, rwose niba nawe ufite intumbero yo kugura imodoka, ariko ukaba ubona ikibazo ufite ari icy'amafaranga, bagane bagufashe, baguhe inguzanyo maze nawe wigurire imodoka.

Iyi ni banki yitwa iyenm banki. Iyi banki itanga serivisi zo kwizigama, kuguza ndetse no kubika. Ibikira abantu kandi bakabika batekanye, hari ibyapa bibigaragaza aho bagira bati iyenm banki ku isonga.

Aha hari icyapa kiri kugaragaza ubuzima burambye, baragira bati'' ubuzima burambye ku banyarwanda'' iki cyapa kiri hejuru ku nyubako birikugaragara ko mu nsi yaho hari imitakaka ya MTN, abamotari bambaye amajiri ya MTN, haparitse amamodoka abantu ni urujya n'urujya n'uruza, imodoka ni nyinshi biragaragara ko ari mu mugi.

Hagaragara umugabo wishimye cyane. Uyu mugabo bigaragara ko yahawe inguzanyo. Kuko muri ayendemu banki baragira bati "tugane, tuguhe agera kuri miliyari mirongo itanu maze witeze imbere". Uyu mugabo ari guseka cyane.

Igipapuro k'inyemezabwishyu gitangwa n'ikigo cyimisoro n'amahoro, kikaba kigaragaza igiciro cyamafaranga iki kintu cyatanzweho nicyo gikorwa cyakozwe.

Ni mu isoko ry'imboga zigiye zitandukanye aho harimo inyanya, amashu, puwavuro, imiteja, puwaro, sibyo ibyo gusa kuko harimo n'umu mama ugaragara nkaho abicuruza, ni umumama ujya gusa nk'aho yirabura ndetse akaba afite n'imisatsi myinshi.

Hoteri nini iri mu bwoko bwa etaje igeretse gatatu yanditseho giriti apatimenti hoteri ivuze ko ari hoteri nziza irimo amacumbi akodeshwa.

Ni mu isoko ry'ibiribwa ndetse n'imbuto, aho turi kubonamo umumama uri kwitegereza imboga ashaka kugura, harimo umusore umeze nk'aho acurujemo ariko na none akaba ameze nk'uwasinziriye, aha hakaba harimo beterave, karoti ndetse n'ibindi.

Aha hari abantu bari kudoda imyenda n 'abadozi bagiye batandukanye bicaye umwe ku wundi harimo abantu babiri bameze nk'abari gushaka kugura iyi myenda ni umukobwa ndetse n'umusore aha hari kugaragaramo ndetse n'icyapa cyamamaza emutiyene kirimo hagati kiri kugabanya impande ebyiri iburyo n'ibumoso hepfo ndetse no haruguru.

Isoko ricururizwamo ibibiribwa bigiye bitandukanye turi kubonamo amashaza, ibishyimbo, karoti, seleri ndetse na puvuro, aha rero nawe wahagera ugahitamo kimwe wigurira cyane ko bikungahaye ku ntungamubiri.

Ni isoko ryiza cyane ricuruza imyenda y'abamama, harimo amakanzu maremare, harimo ay'ibitenge ndetse n'ayandidi moko, nawe rero niba uri umumama wahagera ukicagurira, ibyo gusa kuko harimo n'umumama uri gucuruza.

Ni umudamu wambaye itaburiya ya Emutiyene. Akaba afite akapa mu ntoki, yambaye baji mu ntoki. Kuri ako kapa afite handitseho ngo peyi wivu momo. Aho bagaragaza uburyo ushobora gukoresha ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Umugabo uhagaze imbere y'imashini, ndetse yambaye umupira w'umuhondo wanditseho emutiyene. Bigaragara ko ari umukozi emutiyene, imbere ye hakaba hari undi mugabo waje kumusaba serivisi, akaba ari kumusobanuza nawe amusobanurira, aho ari kumubwira imibare akanda ubundi akareba niba yabyemeje.

Kiyosike ya Emutiyeni ifite amadirishya abiri, hari umugabo uhagaze mu idirishya rimwe yambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro y'umukara bigaragara ko ari gusabamo serivisi zijyanye no kubitsa ndetse no kubikuza.

Aha baragaragaza uburyo wakwishyura hamwe na MTN mobayiro mani, mu buryo buzwi nka momo peyi, ubwo bagira bati urakanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe ushyireho kode maze wishyure.

Ni iduka rya Emutiyene riri ku muhanda. Idirishya ryaryo rirafunguye hari umuntu uhagazemo. Bigaragara ko ari gusaba serivisi za Emutiyene. Ashobora kuba yaje kubitsa, kubikuza cyangwa kugura ama inite.

Umugabo wambaye kasike ndetse n' ijire mo imbere yambaye agapira k'ubururu kariho nomero umunani, yambaye ipantaro y'ikoboyi. Afite moto iriho agasanduku, aka gasanduku kariho ibyo kurya bigaragara ko ari ababitumije akaba abibashyiriye.

Uru ni urubuga ruhahirwamo hifashishijwe iya kure, aho utumiza ibicuruzwa kuri iri duka maze bakabikohereza aho uri hose, bikakugeraho nta mbogamizi, aha rero bashobora kubiha mota ikabizana cyangwa imodoka bitewe n'ingano yabyo.

Ni umugabo utwara moto yambaye kasike y'umuhondo ndetse n'umukara, yambaye ikote ry'ishashi ry'ikigina, yambaye jire y'umweru n'ubururu ndetse n'ipantaro y'ikoboyi; kuri moto ye hariho isanduku irimo ibintu byinshi cyane bigaragara ko hari ababitumije akaba abibashyiriye.

Inzu nziza cyane ikotiriye neza ifite amadirishya umunani, ndetse n'inzugi eshanu. Iyi nzu ikaba ifite ubusitani bwiza cyane mu rugo, ndetse no ku muhanda hakaba hari umuhanda mwiza, ndetse hari n'imodoka nubwo itari kugaragara neza. Hakaba ibiti byiza cyane birebire ndetse n'ikirere cyiganjemo amabara y'umweru n'ubururu, iyi nzu ikaba ikodeshwa amadolari ibihumbi birindwi magana atanu.

Umugabo w'umusore cyane wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'umukara, hakaba harimo n'utundi tubara. Yambaye ipantaro y'ikoboyi, ahagaze ahantu bisa nkaho bari kuhubaka umuhanda kandi nawe we bigaragara neza ko akora umurimo w'ubwubatsi, bikaba ari kugaragaza ko ari kuhapima neza kandi cyane.

Abagabo babiri bari imbere y'ikamyo umwe yambaye ishati y'amakaro undi yambaye umupira w'umutuku urimo utubara tw'umweru, imbere y'iyo kamyo hari amagambo yandikishije umutuku hari n'ayandi yandikishije umukara.

Ni inzu nziza cyane irimo icyumba kiriho matera ishashe neza, ikaba iri ku gitanda, iyo nzu ifite amadirishya ariho ibirahure, inzugi ziriho ibirahure hasi hariho amakaro, ku nkuta hakaba hasizeho amarangi, iyi rero ikaba ikodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu ku kwezi hano i Kigali mu Rwanda.

Ahari kugaragara ngo ese ni iki miliyoni ijana mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda yakugurira i Kigali mu Rwanda? Hari kugaragara igipangu cyiza kirimo amazu nk'abiri harimo, indabyo haratatse bigaragara yuko i Kigali mu Rwanda miliyoni ijana na mirongo itatu zakugurira ikintu gikomeye.

Inzu nziza cyane irimo intebe z'amadive, ni intebe nziza cyane ushobora kwicaramo ukaruhukiramo, izi ntebe bigaragara yuko zateguwe n'abahanga kandi zagenewe abantu bakora akazi ku buryo ushobora kuva ku kazi unaniwe ukazicaramo maze ukaruhuka.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amadirishya ane ikagira inzugi ebyiri, ku ruhande hariho utwuma tugiye tuyizengurutse, isakaje amabati meza ya gihanga, ikaba ikodeshwa, iri mu Mujyi wa Kigali i Kanombe ufite ibihumbi magana atanu waza ukayikodesha ku kwezi.

Kantine kandi ikaba ifite ibikoresho bigiye bitandukanye ikaba itanga serivise nziza kandi zinoze, bafite ibyo kurya, ibyo kunywa bitewe nibyo wifuza ushobora kubibona.

Inzu nziza cyane igeretse kabiri ikaba iri mu mujyi wa kigali hano ni mu rwanda, aho bagira bati iki ngiki nicyo amafaranga yawe miliyoni magana atatu na mirongo itanu zishobora kukugurira inaha mu mujyi wa kigali.

Inzu nziza cyane ifite amadirishya ndetse n'inzugi byose n'ibirahure, ifite amakaro hasi ndetse ikaba iherereye i Remera mu mujyi wa Kigali. Irimo ibyumba byo kuraramo, ikabamo igikoni, iyi wakodesha ibihumbi magana abiri by'amanyarwanda ku kwezi.

Iyi ni inzu nziza cyane ushobora gucumbikamo, iyi nzu iherereye mu mujyi wa Kigali, aho ushobora kwishyura amadolari ijana mirongo itanu ukayiraramo ijoro rimwe cyangwa ukishyura amadolari ijana na mirongo inani ku kwezi, iyi nzu irimo ubwogero ndetse ikabamo n'ubwiza butandukanye.

Ni inzu nziza cyane ikodeshwa isize ibara rya piki ikaba ifite amabara y'umuhondo ku mpande isakaje amabati atukura, ifite ibyumba bibiri byo kuraramo, ikagira doucshe ebyiri, ndetse iyi nzu ukaba wayikodesha ibihumbi magana ane ku kwezi.

Inyubako nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kabeza, iyi nyubako irimo ibyumba bitatu byo kuraramo, hakabamo dushe imwe, ikaba ifite saro imwe ndetse ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda ku kwezi.

Inzu nziza cyane imeze neza, ifite parafo nziza cyane, ifite amatara mu nzu. Harimo amakaro, isize amarangi imbere n'inyuma. Iyi nzu iherereye Kimironko, mu mujyi wa Kigali, ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bubiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Ni inzu nziza cyane kandi nini ifite inzugi n'amadirishya byiza cyane, hariho ibirahure ndetse n'amarido, imbere mu nzu ndetse harimo n'intebe, iyi nzu iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali ukeneye kuyigura wabavugisha.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari uhetse umugenzi wambaye imyenda y'amabara n'imodoka nini, munsi y'umuhanda hari aho abanyamaguru bagendera n'uruzitiro rw'icyatsi ruteyemo ibiti byinshi ruguru y'umuhanda naho hari aho abanyamaguru bagendera.

Igipangu cyiza cyane kinini cyubatse neza cyane. Urugi rw'ubururu hose hanze imbere y'ipangu hari isima bigaragara ko yangiritse hari n'amakaro yakorewe isuku ariko bigaragara ko igitambaro bakoresheje isuku ki kiri aho ngaho.

Inzu nziza cyane ndetse kandi zikodeshwa, ni izu nziza ifite ibirahure, ifite amadirishya meza, ifite inzugi nziza, ama esikariye, ibyumba bine ndetse bigaragara ko imeze neza, ifite amajaride iruhande rwayo, harimo indabyo nziza.

Iyi ni inyubako nziza cyane, yuzuye, kandi igurishwa. Iyi nyubako iri mu mujyi wa Kigali rwagati. Iruzuye kandi iragurishwa. Ni nshyashya rwose, iri Kigali, Kanombe. Aho irimo ibyumba bine, ikagira n'ubwogero butatu.

Iri n'iduka ricuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye ndetse n'amavuta yo kwisiga, muri iri duka tubasangamo divayi, tugasangamo inzoga z'inyobwa ndetse n'amavuta yo kwisiga, yo mu bwoko bwa moviti.

Iduka rinini kandi rigezweho harimo abakobwa babiri bambaye udupfukamunwa bafite imisatsi myinshi, bakaba bayicurujemo. Harimo ibyo kurya byinshi ndetse n'ibyo kunywa urugero nk'amaji, amandazi, amakeke ndetse n'amacapati.

Aha hakorerwa ubucuruzi bw'imbuto zigiye zitandukanye harimo umu mama w'umucuruzi ndetse n'undi mu mama w'umuguzi ari kumwereka ebyiri yahisemo akamubaza igiciro cyazo bigaragara ko bari bwumvikane kuko bose barishimye imbuto ziri hano ziratandukanye kandi ni nziza cyane .

Ni iduka rinini cyane ricuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, ariko bitunganyije. Aha haragaragaramo amata agiye atandukanye, ji zigiye zitandukanye, ndetse n'ibindi byinshi. Hakaba harimo abantu bagiye batandukanye baba abapapa ndetse n'abamama baje kugura.

Aha hari abantu benshi bagiye batandukanye, harimo w'umwisiramu uri gusenga, ndetse hari na mugenzi we usa nk'aho asoje, inyuma yabo gato hahagaze abantu, bamwe barareba iburyo abandi ibumoso, abandi hepfo abandi ruguru.

Ni iduka ryiza ricuruza imyambaro igiye itandukanye y'abapapa, harimo umuntu umwe bambitse maze bamuhagarika aho kugira ngo abantu bajye bareberaho, yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, bigaragara ko bimubereye cyane nawe waza ukigurira.

Iri ni iduka ryiza cyane ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bitunganyije, aha twavuga ko harimo ji, fanta, amazi, hakabamo amata ndetse n'ibindi, harimo biswi hakabamo keke ndetse na bombo.

Iguriro rigezweho neza cyane, ririmo abantu b'abacuruzi bagiye batandukanye ndetse n'abaguzi. Harimo umugabo umwe wambaye agapira ka oranje ndetse n'ipantaro y'ikoboyi ndetse n'inkweto z'umweru, bikaba bigaragara yuko ari ahantu hakorerwa ubucuruzi bwagutse kandi bwateye imbere.

Iduka ryiza cyane ricuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye, aha rero bacuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye higanjemo amaji, amata, fanta, amazi ndetse n'ibindi, si ibyo gusa habamo n'ibyo kurya nka keke ndetse na biswi.

Aha ni mu kigo nderabuzima ubwo hagaragara abamama benshi cyane ndetse bari kumwe n'abana, bigaragara ko baje kuhasaba serivisi, ariko nk'uko bigaragara ni benshi cyane, bategereje ubafasha baricaye abandi barahagaze wagira ngo barambiwe.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza iri mu ibara ry'umuhondo amagambo yandikishije umukara, hariho ikirangantego cy'u Rwanda, bikagaragaza neza ko ukoresha iyi karita ari umunyarwanda utuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe.

Abagabo batatu aho bicaye umwuka umwe akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse akaba yambayemo n'ishati y'ubururu, abandi babiri bakaba bambaye amashati y'mweru, aho buri wese hari akarangururamajwi imbere ye wo hagati akaba ari we uri kuvuga.

Iki ni ikigo cy'ubwizigamire ndetse kitanga ingoboka ku bakigannye kizwi nka RSSB, hari kugaragara abakecuru bishimiye serivise bahawe nacyo, bakishimira kuba babayeho batekanye kubera iki kigo.

Mituweli ni ingirakamaro ku baturage b'abanyarwanda. Cyane cyane ko ibagoboka mu gihe barwaye, mituweli rero n'ubwishingizi bugoboka umuturage uwo ariwe wese mu gihugu, bikaba bimufasha kwivuza nta nkomyi

Aha ni kwa muganga ubwo abaturage benshi cyane baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, bigaragara ko basa nk'abakiriwe kuko bose bafite amafishi mu ntoki ndetse n'udukayi, ariko kandi na none ukaba ubona ko hari umubare munini barababaye cyane.

Aha ni mu kigo nderabuzima, abaturage baje kwivuza ari benshi, harimo baje kuvuza abana ndetse hari n'abaje kwivuza ubwabo, biragaragara ko bakeneye serivisi, baricaye barategereje.

Iki ni ikirango cya sosiyete y'ikigo cy'ubwishingizi, aho bishingira abantu. Ikaba ari ikigo cyitwa arasiyesibi. Iki kigo cyishyingira abantu, kikabaha ubwishingizi mu gihe bakoze impanuka, kikabagoboka.

Iduka rinini rigezweho ricururizwamo imigati, ama keke, ama capati, ni iduka ryiza cyane harimo amakaro harimo amatara meza cyane harimo urwapa harimo ama etajeri meza, nk'uko bigaragara rirakeye kandi binogeye ijisho.

Iduka ryiza cyane. Ricuruza ibicuruzwa bitunganyije neza, iri duka bikaba bigaragara ko rikize cyane, kuko harimo utu etageri twiza cyane, harimo amatara meza cyane, ndetse no hasi ni amakaro.

Aka ni agakiyosike karimo imboga ndetse n'imbuto. Harimo imbuto z'amoko agiye atandukanye. Urugero nka karoti, ndetse na sereri. Hakabamo na pome ndetse n'izindi.

Iri ni iduka ricuruza imigati igiye itandukanye, bakaba bafite iminini, imitoya, ndetse harimo n'utundi dukarito tw'ifu bigaragara ko hashobora kuba harimo amata. Aya mata y'ifu ni amata agira intungamubiri nziza kandi zihambaye.

Abanyonzi b'amagare bakorera mu karere ka Kicukiro, baravuga ko ibikorwa bahawe n'umukuru w'igihugu, byabagiriye ikizere cyo kwishakira ubuzima, bitewe n'uko bubakiye umuhanda mwiza.

Iri ni isoko ryiza kandi rigezweho ry'ibiribwa ndetse n'imbuto, Harimo imbuto nziza cyane zigiye zitandukanye harimo inyanya, harimo isukari, harimo omo harimo amaronji, harimo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ni iduka ryiza cyane ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bitunganyije neza, iri duka ni ryiza kuko hasi harimo amakaro meza cyane ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, harimo urumuri rwiza cyane, hakaba harimo amaji, hakaba harimo Inyange, ndetse hakaba harimo n'ibindi bintu byose warya.

Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Aha ni mu nzu icururizwamo ibyo kurya by'ibanze, mbese aho tuzi nka kantine, harimo abantu benshi cyane bari kugura ariko kandi harimo n'umuntu wambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'umukara bigaragara ko ari umukozi wa MTN, abari kugura bari kwishyura bakoresheje terefoni.

Iduka rinini cyane kandi ryiza cyane, ryubatse mu buryo bugezweho hasi hari amakaro, harimo amayetajeri menshi agiye azengurutse iburyo ibumoso ndetse no ruguru, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo amaji, hakabamo amabiswi, keke ndetse n'ibindi.

Ni iduka ryiza cyane risirimutse, hasi hari amakaro meza cyane y'umweru, ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye, haba amabiswi, amaji, mayoneze ndetse hari ikiganza gifite mayoneze mu ntoki.

Iduka ryiza cyane kandi rigezweho ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Turabonamo utubido turimo ji, tukabona ji ziri mu ducupa, tukabona amabisikwi, amafanta ndetse n'ibindi.

Iduka ryiza cyane kandi rigezweho. Ryubatswe mu buryo bwa kinyamwuga. Imbere harimo ama etajeri menshi cyane, agiye apanzemo ibicuruzwa, harimo amaji, harimo amabiswi harimo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha ni mu iduka rinini cyane iri duka ririmo inyanya, ririmo abantu bari gucuruza, ririmo imbuto zigiye zitandukanye, harimo abantu benshi bishimiye ibirimo, harimo udutanda basunikaho ibintu, harimo udukiyosike tugiye dutandukanye bigaragara yuko hashobora kuba hacururiza abantu bagiye batandukanye ukurikije ukuntu hubatse.